Abana bateraniye hamwe cyane cyane ab'incuke mu myaka mito, aho bitabwaho bagahabwa amafunguro, kandi bakamenya no kubana n'abandi.

Uburezi bw'inshuke, aho abana bitabwaho ndetse bakigishwa kwisanzuranaho mu buryo bwose kandi bakagenda baguka mu mutwe.

Abana bateraniye hamwe, bari kwiga ndetse bari mu irerero ku ishuri ryabugenewe, hari ikibaho ndetse bafite n'umubyeyi ubahugura, akabaha ubumenyi.

Abana batatu bari ahantu hamwe ku rukarabiro rwabugenewe ahari amazi meza ndetse afasha mu kurinda umwanda mu gihe yakoreshejwe kandi akarinda n'indwara zandurira mu mpiswi.

Abanyeshuri bari mu rugo rw'umuturage, aho bari gufata uburere, mu irerero, ndetse bafite n'umubyeyi babitaho, uko bwije n'uko bukeye bakagenda, bamenya kwisanzuranaho kandi bagakura mu mutwe.

Abana bari mu ishuri biga ndetse baganira kandi bungurana n'ubumenyi ku gikoresho bari bahawe kugira ngo bakivugeho neza, bityo bikabafasha kumenya ibikoresho bitandukanye.

Abana bakusanyirijwe hamwe mu rugo rw'umuturage, aho bari mu irerero biga imico mboneragihugu, hari umubyeyi urimo kubafasha kugira ngo bagire ejo hazaza heza.

Abanyeshuri b'incuke imyaka yo hasi, bari hamwe bari kwigishwa uko bakina, ndetse bisanzuranaho hari n'abarezi babo babiri, bityo bikabafasha kunguka ubwenge, ndetse no gufunguka mu mutwe.

Ikigo cy'amashuri aho abanyeshuri bitabiriye ndetse bakaba bari aho bagomba kuba bari mu gufata ubumenyi.

Igikoni gitekerwamo ibiryo bifasha abanyeshuri kubaho, babaha amafunguro ya saa sita kugira ngo bakomeze kwiga ndetse bagire uko bakurikirana amasomo neza.

Gahunda y'uburezi kuri bose, aho hari icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifasha abanyeshuri mu kwiga ndetse no gusobanukirwa neza, ibitabo, amakaramu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Igishushanyo cyerekana neza umuryango, papa, mama, n'abavandimwe, ndetse n'indi miryango ishamikiyeho. Bigatuma abana bamenya isano iri hagati yabo.

Abanyeshuri bari ku ishuri, aho bakina ndetse bakisanzuranaho bityo bikabafasha mu kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe ndetse bakabaho neza amasomo yabo bakayatsinda, aho bari kumwe n'umwarimu wabo.

Amashuri yabugenewe yo kwigisha abanyeshuri bato ndetse n'abakuru, bityo bakagira ubumenyi buhagije, mu byumba byabugenewe.

Abana bato bicaye hamwe, barimo gusoma ibitabo, ndetse bungurana n'ubumenyi baganira ku byo babona bigiye bitandukanye, bityo bikabafasha mu kwaguka mu mutwe.

abana bari mu mashuri, aho bafata amazi yo kunywa, ndetse banakina, bityo bikabarinda indwara, zandurira mu mwanda, aho bahabwa amazi asukuye.

Inyubako z'amashuri, aho abanyeshuri bigira bagafatira ubumenyi. Bityo bakagira icyo bamenya bava hamwe bajya ahandi, kandi bakiteza imbere muri rusange.

Umuhanda nyabagendwa ugaragaza wegereye amashuri aho abanyeshuri bajya kwiga ndetse banavayo. Bityo bigatuma iterambere ryihuta.

Ibikoresho byifashishwa mu ishuri mu gushushanya imirongo, mu guca inziga ndetse n'imyitozo yo kubara isaha z'urushinge ku bana batangiye kwiga.

Ishuri ririmo ikibaho, cyanditse imibare, kuva kuri makumyabiri na rimwe kugera kuri mirongo itatu, ishyirwa mu Gifaransa mu buryo bw'amagambo. Bigafasha abanyeshuri gufata neza ndetse no kumenya ururimi.

Gahunda y'uburezi kandi buteye imbere, aho umunyeshuri akoresha ikoranabuhanga, mu gushaka ibyo ashaka kwiga, ndetse akunguka n'ubumenyi bugiye butandukanye, bityo bikamufasha kuva mu ntambwe imwe ajya ku yindi.

Icyumba kirimo abanyeshuri, bagiye batandukanye ab'incuke, aho bakira ibyo kurya, n'amafunguro, mu gihe cy'ikiruhuko, kugira ngo bakomeze kubaho.

Inyubako ziri ahantu hamwe zisa nk'ikigo cy'amashuri, aho abanyeshuri bafatira ubumenyi ndetse babuhabwa n'abarezi babo.

Abanyeshuri ku myaka mitoya n'incuke bari mu kigo cy'amashuri, aho bari kureba ibikorwa bikorerwa ngaho, ndetse biyungura n'ubumenyi.

Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri bagiye batandukanye, kuva ku myaka itanu kuzamura aho bafata amafunguro abatunga mu masaha ya saa sita bityo bikabafasha kwiga neza kandi bagafata.

Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri bagiye batandukanye. Barimo kwidagadura, kwisanzuranaho ndetse no gukina. Bikabafasha kubana neza n'abandi kandi bagatsinda n'amasomo yabo.

Ikigo cy'amashuri, ahari ibyumba byo kwigiramo ndetse n'ubwiherero rusange, aho bifasha abanyeshuri kwihagarika neza kandi ntamwanda.

Abanyeshuri benshi b'incuke bateraniye hamwe, bari gufata amasomo, kandi biga n'uko kwandika bigenda, kugira ngo bakomeze biteze imbere mu mutwe bafata n'ubumenyi.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byo kwigiraho, hari ikibaho, intebe ndetse n'ibindi bitandukanye aho abanyeshuri biteguye kwigiramo.

Abanyeshuri b'incuke bateraniye hamwe, barimo kwigishwa n'umwarimu abatozaho uko bagomba kwitwara ndetse n'uburere rusange mboneragihugu, kugira ngo bazavemo abantu bakomeye ejo hazaza.

Ikigo cy'amashuri kirimo abanyeshuri bagiye batandukanye, yaba abato, aho batozwa gukora isuku ndetse bakajugunya imyanda ahabugenewe bityo bikabungabunga ibidukikije kandi n'abana bagakura neza.

Ikigo cy'amashuri, kirimo icyumba abanyeshuri bigiramo, aho bafite gahunda yo kujya kurya ndetse bagahabwa amafunguro baba bateguriwe.

Ibikoresho byifashishwa mu guca imirongo, inziga mu mashuri abanza, kandi hakaba n'ibyifashishwa mu kubara igihe, amasaha.

Ishuri ririmo intebe ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu kwiga, aho abanyeshuri basabwa kwicara bagakurikira mwarimu ndetse bagafata n'ibikwiriye kugira ngo bite ku masomo yabo.

Inyubako y'ishuri igaragaza hagiye hatandukanye abayobozi bagenda bashyira imodoka zabo, harimo n'ahabashyitsi bityo bigatanga gahunda nziza ku baturage.

Amashuri y'incuke, aho abanyeshuri bato bateranira bakina mu gihe cyo kuruhuka, ndetse bafata n'ubumenyi butandukanye, kugira ngo babashe gukura mu mutwe.

Ikigo cy'amashuri gitanga uburezi ku banyeshuri batoya, hari ibikoresho bigiye bitandukanye by'abana bato bibashishikariza kuza kwiga bityo bikabashimisha.

Icyumba cy'ishuri, aho abanyeshuri bigira, cyane cyane ab'imyaka yigiye hasi b'incuke, abafasha kugira ubumenyi bugiye butandukanye bityo bagatera imbere mu mutwe.

Ibikoresho rusange bifasha abana mu gufata neza kandi vuba, harimo igare, igikombe, imodoka, ameza, inzu ndetse n'igiti, bikifashishwa mu kwigisha abana kumenya igifaransa.

Ikigo cy'ishuri cy'urwunge rw'amashuri rwa Nyarutovu, gitanga serivisi z'uburezi ku banyeshuri bose, ndetse kikagira n'abakozi b'abarimu bafasha muri iyo serivisi, bityo uburezi bukagera kuri bose.

Isomero rusange ry'ibitabo, aho abanyeshuri bakira ndetse bagafata ubumenyi bugiye butandukanyekanye, bityo bakiyungura.

Abantu barenze umwe bari ku muryango w'ishuri mu kigo runaka, aho basaba serivise umuyobozi bigasaba ko babanza gukomanga kandi bagahabwa ikaze.

Isomero rusange, ririmo ibitabo bigiye bitandukanye byungura ubumenyi; aho buri wese ushaka ahagana kugira ngo yiyongere, ndetse ubwonko bwe bwaguke.

Abanyeshuri bateraniye ahantu hamwe mu kigo, aho bahabwa inama z'imyitwarire n'ubuzima bwo hanze bityo bigatuma bagira discipline ihagije.

Ikigo cy'urwunge rw'amashuri cya Butare catholique aho abanyeshuri babonera ubumenyi bugiye butandukanye kandi bagahabwa imbonera, inyigisho ndetse n'indangagaciro z'Igihugu.

Abana bari mu muhanda bajya ku mashuri mu masaha ya mu gitondo kandi mu nzira nyabagendwa hari abantu benshi.

Abanyeshuri bari mu mirimo itandukanye y'amaboko mu kugira ngo bamenyere gukora, ndetse bari kumwe n'umwarimu ugenda aberekera aha ngaha ni mu gisata cy'uburezi.

Isomero rusange ririmo ibitabo bigiye bitandukanye, byiyifashishwa mu kungura ubumenyi abagana aha ngaha ndetse bakagira byinshi bunguka bityo bikagura intekerezo ndetse n'imitekerereze.

Ikigo cy'amashuri atandukanye aho umuyobozi atanga amabwiriza ndetse akavuga nuko ikigo gitanga serivise nziza ndetse ashishikariza n'ababyeyi kuzana abana babo bakarererwa hamwe.

Inyubako y'amashuri, ahari umunyeshuri uje gukurikirana ibyo kwiga ndetse hari n'ikibuga cy'umukino w'amaboko wa basiketi bityo bigafasha abanyeshuri kwiga neza baruhuka mu mutwe.

Icyumba cy'ishuri gitangirwamo ubumenyi, aho abanyeshuri bicaye mu ntebe bakurikiye ku kibaho, umwarimu atanga amasomo kandi abafasha kubyumva neza.

Abanyeshuri benshi bateraniye hamwe, barimo guhabwa inama ndetse n'impanuro n'abayobozi babo kugira ngo bitunganyirize ejo hazaza heza kandi babyihitiyemo.

Abanyeshuri benshi bari mu nzu mberabyombi, aho mugenzi wabo abaha imbwirwaruhame ndetse abaha n'impanuro zigiye zitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bajya ku ishuri mu masaha ya ku manywa ndetse n'umuhanda rusange urimo abagenzi, aho bajya gufata amasomo yabo ndetse bakagira n'ubumenyi bahakura.

Itsinda rinini ry'abanyeshuri bateraniye hamwe barimo kubwirwa imbwirwaruhame kandi batozwa indangagaciro z'igihugu, kugira ngo baziteze imbere kandi bigirire akamaro.

Icyumba cy'ikoranabuhanga, kirimo mudasobwa, aho abanyeshuri bajya gufata ubumenyi butandukanye kugira ngo bihugure kandi bamenye byinshi ku ho isi igeze.

Ikigo cya Petit seminaire firigo Fidelis kiri muri diyoseze ya Butare gitanga uburezi ku banyeshuri ndetse kigisha na siyanse n'ibindi bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri kirimo urujya n'uruza rw'abanyeshuri bagiye batandukanye, aho batanga serivise z'uburezi ndetse bagafasha ababagana gufata ubumenyi.

Abanyeshuri benshi bateraniye hamwe mu nzu mberabyombi, aho bitabiriye gahunda rusange bahabwa ibiganiro ndetse bagirwa n'inama z'uko bitwara neza, bityo bikabafasha gutunganya ejo hazaza habo heza.

Ikigo cy'amashuri kigisha abanyeshuri, indatwa n'inkesha, aho bafite intego ivuga ngo isuku, umuco no gukunda igihugu, bityo abanyeshuri bakagira intego zimwe.

Ikigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Officiel Butare, aho gitanga serivisi z'uburezi mu byiciro byose bya segonderi: yaba icyiciro rusange ndetse n'icyiciro cyisumbuyeho; bakagira indangagaciro y'isuku, umuco no gukunda igihugu.

Itsinda ry'abanyeshuri benshi bagiye mu ishuri masaha ya mugitondo, bagiye kwitabira aho bagomba gufatira amasomo yabo.

Icyumba kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga, zamudasobwa ndetse n'abanyeshuri bari gufata amasomo yabo kugira ngo bamenye byinshi ku ikoranabuhanga.

Ishuri rya segonderi rya Mutagatifu Mariya ryigisha abanyeshuri bose b'ingeri kugira ubumenyi ndetse bagatsinda kandi neza.

Ikigo cy'amashuri cya Peti Seminere Butare kigisha abanyeshuri b'ingeri zose kandi kigatanga ubumenyi kuri bose.

Abanyeshuri benshi bateraniye hamwe bari kungurana ibitekerezo, hagati harimo umusangiza w'amagambo, aho batanga ibitekerezo uko babyumva.

Icyumba cy'amashuri kirimo umwarimu wigisha ndetse atanga isomo ku bijyanye n'ubutabire, aho yereka abanyeshuri igikurikiraho ndetse atanga n'amabwiriza.

Isomero rusange ririmo ibitabo by'ubwoko butandukanye, harimo iby'amashuri abanza icyiciro cya kabiri ndetse n'icyiciro cya mbere, hari abanyeshuri barimo kuganira ku bibumbatiye mu gitabo.

Ikigo cy'amashuri cya Ecole secondaire Ruri, aho umurezi ndetse n'abandi bafatanyije batanga serivisi zo kurera abanyeshuri kandi bakabaha n'uburere bwiza.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri, aho bava aho bigira, bajya batembera bagana aho baryama.

Abanyeshuri bari hamwe mu isomero rusange ririmo ibitabo bigiye bitandukanye, aho bungurana ubumenyi ndetse bakaganira ku byo babona, ku bijyanye n'amasomo yabo.

Abanyeshuri bari hamwe mu busitani bw'ikigo, aho bari kumwe n'umuyobozi bagenda baganira ndetse aberekera ibikwiye gukorwa.

Itsinda ry'abanyeshuri batatu, aho bagenda mu muhanda baganira ndetse bungurana ibitekerezo bityo bigatuma amasomo yabo agenda neza.

Icyumba cy'ishuri kirimo umunyeshuri urimo yandika ku kibaho ndetse asubiramo amasomo yize, bityo bikamufasha gutsinda ndetse no kujya mbere mu myigire ye.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bateraniye hamwe aho bahabwa impanuro na porisi y'igihugu ku bijyanye n'uko bitwara ndetse no kugira imico iboneye babahanura.

Abanyeshuri bari mu cyumba cyo kwigiramo, gitangirwamo amasomo agiye atandukanye, aho tubona mudasobwa, izigendanwa ndetse n'izitagendanwa mu buryo buteye imbere bwo kwigisha.

Gahunda y'uburezi bugezweho, aho abanyeshuri bari gufata ikigwa, bandika mu makaye agezweho bityo bikabafasha kwaguka mu mutwe ndetse bakagira n'ubumenyi buhagije.

Aho itsinda ry'abanyeshuri benshi bari hamwe, aho bari guhahabwa ibiganiro ndetse hari n'inzego z'umutekano, mu buryo bwo kubereka ishusho y'ejo hazaza, ndetse no kwiyitiramo neza, bakabaho mu gihugu kibabereye.

Abanyeshuri bari hamwe mu kibuga cy'umukino w'amaboko, aho bari mu kiruhuko rusange masaha ya saa sita bakurikiye umukino w'amakipe abiri ahanganye.

Abanyeshuri benshi bateraniye mu buriro, aho barura umuceri n'imboga bagahabwa amata ndetse n'imineke nk'imbuto kugira ngo bakomeze bagire ubuzima bwiza.

Icyumba cy'ishuri aho abanyeshuri bari kwigira kuri mudasobwa, bakoresha ikoranabuhanga ndetse bafite n'umwarimu ubafasha, agenda abayobora ibyo bagenda bakora.

Inyubako y'amashuri igeretse yegereye umuhanda nyabagendwa w'abantu ndetse n'urujya n'uruza rwabo aho atanga serivisi z'uburezi kubanyeshuri.

Gahunda y'uburezi ku banyeshuri, aho umurezi ari kubatoza kwisanzura ndetse no kugira imbaraga mu byo bakora byose, bakora siporo ndetse bananura n'umubiri.

Icyumba cy'ishuri kirimo abana b'abanyeshuri, bari hagati y'imyaka itanu ndetse n'icumi aho bari kwiga babifashwamo n'umwigisha wabo ndetse bafata ikigwa ku kibaho.

Ikigo cy'Abadivantisite kigisha mu buryo bugiye butandukanye, harimo icyiciro rusange ndetse n'icyiciro cy'amashuri yisumbuye cya kabiri, aho bigisha bibanda ku mibare, ubugenge ndetse n'ubumenya bw'isi.

Icyumba cy'ishuri kirimo imbonerahamwe y'icyumweru cyose yerekana uko abanyeshuri biga ndetse bakagira na gahunda y'ikiruhuko ndetse no gufata amafunguro, bityo bikabafasha mu gutsinda amasomo yabo.

Abanyeshuri b'inshuke, aho bava mu mashuri batwawe mu modoka ndetse bagenda berekerwa mu buryo bugiye butandukanye, bakagenda bakura.

Icyumba cy'amashuri kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibitabo ndetse harimo n'umurezi, hakaba hari n'ikibaho ndetse bikagaragaza ko barimo kwiga imibare.

Ikigo cy'amashuri, gitanga uburezi. Ku bana bose abakobwa n'abahungu. Cya ecole materinere, sainte Josepha Rosero. Kigatanga serivisi zigiye zitandukanye, ifashijwemo n'bigisha.

Inzu mberabyombi irimo abanyeshuri bitabiriye ibikorwa rusange by'ikigo, aho babwirwa imbwirwaruhame z'uko bagomba kwifata mu gihe icyo aricyo cyose.

Abana bari mu nzu y'uburiro, aho bafata amafunguro ndetse n'imbuto z'imineke kugira ngo bagire ubuzima bwiza, ndetse bagire n'intungamubiri zihagije.

Icyumba cy'amashuri kirimo ibikoresho byose, intebe, ibitabo, byifashishwa mu kwigisha, ikibaho cyanditseho ndetse n'inyajwi n'ingombajwi zimanitse.

Urujya n'uruza rw'abafana ndetse n'ikipe y'umukino w'amaboko aho abakinnyi bateraniye hamwe, babwirana amabwiriza ndetse bakomezanya kugira ngo baze kubona intsinzi.

Ubusitani bwiza, harimo inyubako, bufite n'inzira z'amabuye, zisashe neza, aho ibiti bitanga umwuka ndetse n'akayaga.

Ishuri ryigiramo abanyeshuri aho ikibaho kigaragara cyanditseho itariki y'umunsi n'umwaka n'ukwezi herekana abaje ndetse n'abasibye.

Ikigo cy'amashuri kigaragaza inyubako zigiye zitandukanye zakira abanyeshuri, mu buryo bwose, harimo ab'ingeri z'abana bato ndetse n'abakuru, mu buryo bwo gutanga serivisi z'ubumenyi.

Isomero rusange ryiganjemo ibitabo, aho buri wese asoma ndetse akagura ibitekerezo muri rusange.

Ibyumba byabugenewe by'amacumbi y'abanyeshuri, aho baba mu gihe basoje amasomo yabo ndetse bikabafasha no kubaho bafite ubuzima bwiza.

Itsinda ry'abanyeshuri barenze umwe, bari mu cyumba cy'ubushakashatsi, aho basuzuma indwara zigiye zitandukanye kandi bakiga na siyanse ndetse n'ubumenyi butandukanye.

urusengero aho abizera n'abayoboke basengera, kandi bakagira umwuka umwe benshi bikabafasha gusabana n'Imana

Ubusitani bwiza bugaragara neza, aho hari inyubako iteraniramo abantu bagiye batandukanye by'umwihariko abanyeshuri bakiga ndetse bakungurana n'ubumenyi.

Icyumba gisirimutse cy'ishuri, ahari ibikoresho byose nkenerwa, hari ikibaho, nk'intebe, bityo abanyeshuri bagahabwa, amasomo neza kandi batekanye.

Icyapa cyerekana Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye ahatangirwa uburezi mu buryo butandukanye, yaba muri mu buzima ndetse no mu yandi mashuri agiye atandukanye.

Gahunda y'uburezi, aho abanyeshuri bari gukora ubushakashatsi ndetse bakoresha ibikoresho by'ikoranabuhanga mu kureba indwara ndetse no kuvumbura.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, cyifashishwa mu burezi ndetse hagatangwa n'amahugurwa atandukanye mu buryo bwose bwafasha abanyeshuri kunguka.

Isomero rusange, aho harimo ibitabo bigiye bitandukanye kandi ryibanda mu gutanga ubumenyi bugiye butandukanye ku banyeshuri bose.

Inyubako ziri ahantu hamwe ku muhanda, aho zitanga serivisi kandi akaba ari ikigo gitanga ubufasha mu gutanga uburezi ndetse n'ibindi bitandukanye.

Ishuri rikuru rya Kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'ubuvuzi ndetse no kwita ku buzima mu kigo cyahariwe imiti ndetse n'ubuvuzi rusange.

Amacumbi yabugenewe afasha abanyeshuri kubaho kandi neza aho biga bafite isuku ndetse baba n'ahantu hatuje habafasha gusubiramo neza amasomo yabo.

Inyubako nini cyane irimo ibyumba bigiye bitandukanye, yahariwe kwigirwamo n'abanyeshuri muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda, aho bahabwa ibigiye bitandukanye kugira ngo bibafashe mu masomo yabo.

Inyubako nyinshi kandi hari n'ubusitani bwiza bufasha abahaturiye kuruhuka neza bafata akayaga kandi bagakomeza kubungabunga n'ibidukikije bityo aya mazu agafasha abanyeshuri gucumbika.

Ikigo cy'amashuri cya Kaminuza nkuru y'u Rwanda aho abiga ubuzima ndetse n'ibijyanye na bwo bigira mu nyubako zigezweho bagafata ubumenyi buhagije kandi bari kumwe n'ababigisha.

Amacumbi agezweho, afite ibikoresho byose amavarizi, intebe, igitanda na matela, bifasha abanyeshuri kubaho neza kandi bafite umutekano bityo bigatuma batsinda neza amasomo yabo.

Ibikoresho by'isuku biri hamwe, utuyidoho turimo amazi meza ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye bifasha mu kwiyitaho kw'ubuzima bwa muntu.

Icyapa cyerekana imyitwarire ikwiriye muri sosiyete, aho kaminuza y'u Rwanda ishishikariza abanyeshuri cyane cyane kutanywa itabi, aho babonye hose.

Inzu zabugenewe aho hanitse imyenda hanze ikimenyetso k'isuku ndetse n'amacumbi yo kubamo ku babishaka ndetse kunganira n'abanyeshuri.

Gahunda y'uburezi kandi igamije gucumbikira abanyeshuri, aho bubakirwa amacumbi, ameze neza, afite ubwanikiro buzima kandi bakagira n'umwuka uhagije aho barara.

Inzu mberabyombi, aho abaturage n'abanyeshuri bitabiriye igikorwa cy'amasengesho ndetse n'ubukwe aho bishimishije ndetse bakagira umwanya mwiza wo gusabana n'Imana.

Ibikoresho byifashishwa mu burezi ndetse no kunganira abana bari kwiga, ahari impapuro, amakayi ndetse n'ibikoresho by'isuku, byifashishwa mu kubafasha mu myigire yabo.

Gahunda y'uburezi, aho icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, bifasha abanyeshuri kwiga ndetse no gusobanukirwa neza kandi mu buryo bugezweho bityo bakiga neza kandi bagafata.

Inyubako ya kaminuza y'u Rwanda, aho abanyeshuri bahigira ndetse bagakora ibindi bitandukanye.

Ihuriro ry'abantu benshi ndetse n'abakozi bari mu mahugurwa yo gukoresha ikoranabuhanga mu buryo bwose.

Ubwogero rusange mu kwimakaza isuku, aho abanyeshuri bisukura intoki, bakaraba n'amazi meza ndetse n'isabune mu buryo bwo kwirinda indwara zigiye zitandukanye zandurira mu mwanda.

Icyumba gisa neza kirimo ibikoresho by'amanota abanyeshuri bakoreyeho aho bigaragara ko bakosorwaga n'umwarimu.

Icyapa kiri mu nzira nyabagendwa, cyerekana kandi kikayobora abagenda aho hantu, cyerekana main auditorium, centre y'ikoranabuhanga ndetse n'isomero ryose hamwe.

Ishuri rikuru ry'Umwuga n'Ubumenyingiro rya IPRC Kitabi, aho umuyobozi ari gutanga imbwirwaruhame, ashishikariza abayigana serivisi batanga ndetse n'aho uburezi bwabo bushingiye.

Ishuri rikuru ry'umwuga n'ubumenyi ngiro aho abarimu bashishikariza ndetse bagasobanurira ababagana ibyo bakora mu ishuri rikuru rya IPRS Tumba bityo bakamenya byinshi ku bigize iki kigo.

Itsinda ry'abanyeshuri bari hamwe, mu ishuri rikuru rya kaminuza y'u Rwanda, aho bari mu gisate cy'ubuhanzi ndetse n'ubumenyi rusange, bari guhabwa amasomo igihe atandukanye.

Icyumba cy'uburuhukiro, harimo igitanda, ameza, intebe, igikombe n'uburoso bw'amenyo ndetse na sharijeri, aho abanyeshuri baruhukira kandi bagahabwa amahirwe yo kwiga.

Inyubako ibarizwa mu gisata cy'uburezi, aho itanga serivisi zigiye zitandukanye, kwigisha, gutanga akazi k'ubwarimu ndetse n'amahugurwa agiye atandukanye.

Icyumba cya Laboratwari ahakorerwa ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima bikozwe n'abanyeshuri ndetse n'ababigisha kugira ngo bakomeze bungure ubumenyi.

Icyumba cyabugenewe kigirwamo n'abanyeshuri baganira ku masomo mu gihe cyo gusubiramo kugira ngo biyibutse neza kandi batsinde bihagije.

Isomero rusange ribumbatiye ibitabo byinshi, aho abanyeshuri bakura ubumenyi mu gusoma ndetse n'abarimu bagategura integanyanyigisho yabo kandi neza.

Icyumba kirimo isuku, aho hari ibikoresho byo kuryamaho, matera ndetse n'ibitanda bifasha abanyeshuri mu kubaho neza kandi bafite ubuzima bwiza.

Inzu mberabyombi irimo abanyeshuri baje bitabiriye igikorwa cy'igitaramo rusange, aho bari kwishimisha ndetse banahimbaza Imana.

Itsinda ryaburubyiruko rw'abanyeshuri, bateraniye hamwe bahabwa impanuro, mu nzu mberabyombi y'ikigo, aho babwirwa uko bagomba kwitwara mu Isi yo hanze.

Igikoresho cy'ikoranabuhanga, kifashishwa mu burezi buteye imbere, aho abanyeshuri bakoresha ikoranabuhanga kugira ngo bige amasomo ajyanye n'ubuzima ndetse n'imiterere ya muntu.

Ikigo cy'amashuri cya Kaminuza cyitwa PIASS campus ya Huye, aho gifasha abanyeshuri gutanga amasomo mu byiciro byose bigiye bitandukanye cyakira.

Inzu mberabyombi irimo abanyeshuri, aho bicaye bareba imikino y'imyidagaduro, bityo bikabafasha kuruhuka mu mutwe.

Icyumba kirimo uburiri busashe neza ndetse harimo n'ibikoresho byose nkenerwa kugira ngo umuntu abeho ariko biri mu kigo cy'amashuri ahantu runaka.

Gahunda y'uburezi, aho hari laboratwari zigiye zitandukanye zifasha mu ikoranabuhanga ndetse bikunganira n'abanyeshuri kugira ubumenyi bugiye butandukanye.

Icyumba cy'ishuri giteguye neza kandi gikeye, aho abanyeshuri bigira hari ibikoresho byose bisabwa, ikibaho ndetse n'umwuka uhagije ndetse n'umuriro uhagije.

Intebe ziri mu cyumba k'ishuri ziteguwe ,aho abanyeshuri bafatira amasomo yabo ndetse n'ubumenyi mu buryo bwiza kuko ari icyumba gifite isuku kandi gikwiriye kwigirwamo.

Itsinda ry'abanyeshuri bicaye hamwe mu cyumba cy'ubushakashatsi, kandi biga ku bijyanye n'ubuzima, bityo bikabafasha mu kumenya umuntu ndetse n'umubiri ndetse n'ibiwugize.

Akabati karimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo amavuta ndetse n'uburiri, amavarisi afasha umuntu kuba ahantu hatekanye kandi hatuje.

Inzu mberabyombi, ahari inama iteranyirije abakozi ndetse n'abayobozi bose, mu ishuri rikuru ry'imyuga n'ubumenyingiro rya IPRC Tumba, aho abayobozi biga ku cyagirira akamaro ikigo cyabo.

Ikigo k'ishuri cya kaminuza y'u Rwanda, ahari abanyeshuri n'urujya n'uruza rwabo, kandi hari amacumbi meza acumbikira, ndetse afite n'ubwanikiro buhagije, bityo bigatuma babaho neza.